Umama yaje kureba uko abaturage bakoresha ivomero bubakiwe n'ubuyobozi bwabo barebe ko rikora neza amazi akaza ari meza.

Umwana muto cyane ari gukaraba intoki kugira ngo ase neza yirinde imyanda yaba yafashe mu kiganza cyiwe bitamutera indwara.

Inama mpuzamahanga iyobowe n'umugabo wambaye ikoti na karuvate, afite icupa cy'amazi mu byicaro byiwe ayoboye inama ngari.

Ibice byinshi byo mu Rwanda, bikunda kwibasirwa n'ikibazo cy'ibura ry'amazi, abenshi bagiye bafashwa begerezwa amarobine rusange kugira ngo babashe kubona amazi mu buryo buboroheye.

Abyeyi babiri bari gufasha undi mubyeyi kuvoma amazi, bose hamwe bari kuvoma amazi ava mu butaka kugira ngo babone ayo bakoresha imirimo yabo.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikoreshwa mu bubiko bw'umwuka abantu bakoresha muzima bwa buri munsi, bisangwa kwa muganga, bifasha umuntu kumwongerera umwuka mu mugihe atabasha guhumeka neza.

Abana babiri basutamye munsi y'ivomero rusange bari gukaraba intoki kugira ngo birinde udukoko twabatera indwara zituruka ku mwanda.

Ni bamwe mu bajyanama bafite mu nshingano kugira inama abakobwa bakiri bato kwirinda gutwara inda zitateganyijwe, babaganiriza uko bagomba kubyitwaramo.

Umwana muto cyane ari kwikarabya intoki kugira ngo azigirire isuku, bitaza kumuviramo kwandura indwara zituruka ku mwanda.

Mu kigo cy'amashuri cy'abana bato, abana bari gukaraba ku ivomero ryabugenewe nyuma y'uko baba bafashe imyanda igiye itandukanye uburyo bwo kwirinda indwara.

Abanyeshuri mu kigo cy'amashuri bambaye inifomo zisa, bafite ifunguro imbere yabo, bari ku meza nyuma yo gufata amasomo bagiye kurya kugira ngo babashe kwiga neza.

Ni inama imaze kuba, yahuje abaganga bagiye batandukanye, ikaba yayobowe n'ababakuriye babifite mu nshingano, bari kwita ku barwayi bareba uko serivisi zanozwa.

Umugabo ari gukaraba intoki, akaboko ke yakerekeje ku ivomero, ari gukaraba kugira ngo yikureho imyanda iba yagiye isigara ku ruhu rwiwe ngo itamutera indwara.

Ikusanyirizo ry'amazi agiye aturuka ahantu henshi hagiye hatandukanye aha ni hamwe mu hantu amazi atunganyirizwa akabasha koherezwa mu ngo z'abantu.

Abamama, abana baje kwivomero rusange baje kuvoma amazi bakoresha mu rugo no guteka n'indi mirimo itandukanye bakoresha amazi.

Umwa muto cyane afite akajerekani mu ntoki ari kuvoma amazi y'igishanga kugira ngo ajye kuyakoresha mu rugo iwabo kubera ko ariho hafi.

Abana babiri bari mu kigero cy'imyaka itatu n'itandatu bari kwikarabya intoki babitojwe n'ababyeyi babo kugira ngo birinde indwara.

Umumama yazanye n'abana babiri, ku ivomero rusange, baje kuvoma amazi yo gukoresha iwabo mu rugo, aya mavomero usanga akunda kugaragara, mu biturage bigiye bitandukanye.

Uduce twinshi two mu Rwanda, usanga hari ivomero rusange, abaturage bakoresha baza kurebaho amazi bakoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abantu benshi bizihiwe barishimye ku maso. Kubera ko umwe muri bo ateruye agahinja, bisa nkaho baje guhemba umubyeyi nyina w'agahinja cyangwa se mama w'agahinja.

Umwana muto cyane ateze igikombe ku kigega ashaka kuvoma amazi, bisa nkaho ari ayo kunywa kugira ngo yice inyota.

Abana bari gukaraba ni benshi, bose bakeneye koza intoki zabo kugira ngo birinde ubukoko bugiye bugaragara buturuka mu mwanda bwabateza indwara iyo ari yo yose.

Umumama akikiye umwana, bari kwa muganga bagiye kuvuza umwana, umuganga na we ari gusuzuma umwana arebe ikibazo afite.

Umuganga ari gupima umurwayi kugira ngo arebe uko ahagaze nimba nta ndwara afite yandurira mu maraso, yambaye agafukamunwa kugira ngo yirinde indwara zandurira mu mwuka.

Umwana muto cyane ari kuvoma akikijwe na bagenzi be bari kuvoma ku ivomero rusange amazi aturuka munsi y'ubutaka.

Ababyeyi bazanye abana babo kwa muganga, baje kwivuriza hamwe kugira ngo ubuzima bwabo bumere neza, nta kibazo bafite cya buri munsi.

Umumama ukuze akenyeye igitenge, yaje ku ivomero rusange kugira ngo abashe kubona amazi akoresha mu rugo rwe, akayakoresha imirimo itandukanye.

Abana bato bane, umwe muri bo afite inkoni isa nkaho yari aragiye, abandi bari kuvoma ku ivomero rusange amazi yaryo aturuka munsi y'ubutaka.

Inama igizwe n'abantu batandatu, iri kuganira ku buzima bwiza bw'umwana, uko umwana bagomba kumuremamo ikizere kugeza akuze.

Umwana muto ari gukaraba intoki ku ivomero, yatezeho igikoresho kugira ngo amazi atagenda akwirakwira ahantu hose bigatuma hasa nabi.

Umwana bari kumugaburira akikiwe n'umubyeyi bisa nkaho ari mama we, ari kugaburirwa n'umugabo afashe isahani bisa nkaho bagiye mu mahugurwa yo kwita ku bana.

Ikusanyirizo rusange ry'amazi yifashishwa mu buhinzi, abaturage benshi iyo bari guhinga barayakenera, kugira ngo imirima yabo itazagira ikibazo cyo kubura amazi, ibihingwa ntibyere neza.

Umu mama yambaye ingofero y'umweru n'agapfukamunwa ari kuvura umwana ari kumutamika akanini kazamurinda ikibazo cy'inzoka zituruka mu mwanda.

Abaganga bambaye imyenda y'ubwirinzi. Akenshi iyi myenda bayambara kugira ngo birinde ikwirakwizwa ry'icyorezo, abenshi babibonye mu gihe cy'indwara yitwa corona.

Ni agatanda gakozwe mu biti abantu benshi bakoresha bashyiraho ibikoresho byabo byo mu nzu kugira ngo bise neza babishyira ku kazuba imyanda kugira ngo iveho.

Umugabo usa nkaho ageze mu zabukuru arishimye afite akanyamuneza ku maso, yambaye ishati y'amaboko maremare isa ubururu, bigaragara ko avuye gusura ingagi mu gikorwa abenshi baziho kwita ingagi izina.

Umwana muto yambaye umwambaro w'ishuri, yicaye ku ntebe y'ishuri, arishimye urabona ko ameze neza, ari kurya akantu ko kunyunguta kugira ngo amasomo agende neza.

Abana, abamama, abapapa, abakecuru barishimye bafashe ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, urabona ko wishimiye ibintu bari gukora, bari hamwe bahuje urugwiro.

Umukobwa uri mu kigero cy'imyaka cumi n'irindwi na makumyabiri n'irindwi, arishimye ari guseka, yambaye agapira k'umutuku n'akandi k'ubururu, urabona ko ameze neza ahagaze imbere y'iwabo.

Abana bato bari mu kigero cy'imyaka itandatu ndetse n'umunani bicaye hamwe, barishimye cyane, bizihiwe, bari guseka, bambaye imyambaro y'ishuri, bameze neza ubona ko ubuzima buri kugenda bishimiye ibyo barimo.

Akazi kenshi, indwara, ibibazo by'umuryango, biri mu bintu bitera guhangayika gukabije, umuntu ufite iki kibazo biba byiza iyo umubaye hafi cyangwa se ukamufasha kwegera ikigo nderabuzima bakamuvura.

Aka gakoresho ni muri tumwe mu dukoresho abantu benshi bikoresha mu gihe bari gusukura amenyo yabo, kugira ngo bakuremo imyanda ibayafashe hagati y'amenyo.

Amenyo yafotowe n'icyuma koranabuhanga cy'amashanyarazi, kigufotorera kikakwereka ko amenyo yawe ameze, uko ahagaze ukabibona.

Kwita ku menyo ni kimwe mu bintu byiza kandi by'ingenzi buri muntu wese agomba gushyira mu bikorwa, iyo ufite amenyo meza ubuzima bwawe buba bwiza kandi uhorana akanyamuneza.

Umuganga ari kureba amenyo y'umurwayi ayasuzuma kugira ngo ayiteho, umurwayi abashe gukira amere neza amenyo ye yongere abe mazima.

Kwita ku menyo ni byiza bituma useka neza amenyo yawe akaba meza, iyo uyitaho buri munsi, buri nyuma yo kurya, umaze gufata icyo kunywa, ukayitaho neza, bituma amenyo yawe aba meza.

Abaganga bari mu bushakashatsi bw'ukuntu amenyo amera n'uko bakora kugira ngo amenyo abashe gukura ari k'umurongo nta kibazo biteye.

Kwita ku menyo yacu ni bimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyane cyane iyo tugiye kuryama cyangwa nyuma yo gufata ifunguro.

Ni igikoresho cyangwa se igitanda umurwayi yicaraho igihe agiye kwa muganga afite ikibazo mu menyo, yicaraho kugira ngo muganga arebe amenyo ye neza.

Abana bicaye mu ishuri bambaye imyenda y'ishuri isa, bose bafite udukoresho mu ntoki twifashisha gusukura amenyo.

Amenyo meza, guseka neza ubuzima bwawe bukagenda neza. Ni byiza kwita ku menyo yawe cyane cyane urangije kurya, kunywa ibintu birimo isukari nyinshi, ukayitaho utuma ubuzima bwawe bugenda neza ntuhumure nabi mu kanwa.

Igitanda usanga mu bitaro wicaraho ukarambya amaguru, kugira ngo umuganga abashe kukugeraho neza akurebe ikibazo ufite mu kanwa cyangwa se amaso.

Abaganga bagiye batandukanye bita ku buzima bwa buri munsi bw'abarwayi baza babagana gusa abangaba bita ku menyo niyo bavura.

Umusaza yagiye kwivuza amenyo ye, kugira ngo amenye uko ahagaze bitazamuviramo ubundi burwayi bukomeye, ubuzima bwe bukagenda bwangirika.

Umukobwa ari kwitabwaho na muganga ari kugenda areba amenyo ayo bihuje ingano ashaka gusimbuza amenyo agiye afite ikibazo mu kanwa kiwe.

Ni igitanda cyangwa se wacyita intebe umurwayi yicaraho mu gihe muganga agiye gusuzuma amenyo yiwe arebeko nta kibazo yaba afite.

Umwana muto cyane ari kwa muganga, yagiye kwisuzumisha amenyo ye kugira ngo barebe uko ahagaze, niba nta myanda yaba irimo, bamuvure amere neza.

Umugabo ari kwireba mu ndorerwamo, afite akadodo agenda anyuza hagati y'amenyo yiwe kugira ngo akuremo imyanda iba yafashemo igihe amaze kurya.

Babakecuru bageze mu zabukuru, bari gukora siporo ngororamubiri, urabona ko ku maso bishimye, ibyo bari gukora babizi kandi bibafitiye akamaro barishimye cyane.

Muganga ari kuganiriza umusaza ugeze mu zabukuru, baricaye ari kumubwira uko ahagaze, ari kumwereka ibisubizo mu bizami, bitewe n'uko yivuje, barabona ko bishimye.

Umusaza n'umukecuru bageze mu za bukuru bambaye imikenyero, umusaza yambaye ingofero bari imbere y'abandi bisa nkaho baje mu kirori.

Umumama yicaye ku gatanda, bari kureba uko ubuzima bwe buhagaze, umuntu umwitaho amuhagaze imbere, ari kumuha ibizami agenda akora.

Umusaza wambaye agapfukamunwa, ari kwitabwaho n'umuganga, bose bambaye udupfukamunwa, umusaza yicaye ku ntebe, bari mu busitani, bari kureba uko umubiri we umeze.

Abantu bageze mu zabukuru baba bakwiye kwitabwaho mu buzima bwabo bwa buri munsi cyane cyane bakitabwaho n'abantu babana na bo mu miryango yabo ya hafi.

Umusaza yagiye kwa muganga ari kwivura bamuhaye akuma afata mu ntoki kugira ngo barebe nimba afite ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso babashe kumuvura.

Abasheshe akanguhe babiri bicaye ku meza hamwe bari kuganira bahuje urugwiro, umusaza yambaye agapira k'ubururu umukecuru yambaye agapira gasa umutuku.

Aba mama bicaye mu busitani , bari kureba uko undi mama arikuboha akoresheje intoki ziwe, ari kuboha igiseke cyakifashishwa mu guhaha.

Umuganga ari kwita ku mugabo ugeze mu za bukuru afite inkoni mu ntoki bisa nkaho ari yo akoresha kugirango abashe gutera intambwe neza.

Abamama bageze mu zabukuru batatu, babiri bambaye ingofero, undi nta ngofero yambaye, ari kubereka muri telefone yiwe uko bayikoresha.

Ubuzima bwiza twese turabukeneye, biba byiza ko wisuzumisha ukamenya uko ubuzima bwawe buhagaze, cyane cyane iyo ugeze mu zabukuru, bigusaba ko uhora ujya kwisuzumisha kugira ngo umenye uko umubiri wawe uhagaze.

Umusaza n'umukecuru we bageze mu zabukuru bose bari ku meza bari kurya ifunguro ryiganjemo imbuto, bafite amazi ku ruhande bari kunywa.

Abageze mu zabukuru, bimwe bita abasheshe akanguhe bicaye ku ntebe imwe, bafite inkoni ibafasha gutera agatambwe, bakiyongera imbaraga kuko umubiri wabo wamaze gucika intege.

Umumama ugeze ku myaka hafi gusatira izabukuru afitiye agakoresho mu ntoki ari gukora siporo kugirango ubuzima bwe bumere neza.

Abasaza babiri bigaragara ko bari mu zabukuru, bari imbere y'abandi bisa nkaho bakoze ibirori, ari bo bayoboye abandi abenshi bita ubukwe.

Umusaza ugeze mu za bukuru, ari kwitabwaho n'umukobwa mutoya ukora kwa muganga, kugira ngo abashe kumenya uko ahagaze, yirinde kandi amufashe mu buzima bwe bumere neza.

Mu duce twinshi mu Rwanda bimaze kugaragara ko ihungabana abana bagira bakiri bato ribagiraho ingaruka mu mitekerereze yabo iyo bakuze. Usanga bafite ikibazo mu mutwe.

Abaganga bari hamwe bari muri laboratwari, bambaye imyambaro isa, bari gukora ku miti bagiye guha abarwayi baje babagana.

Udufukamunwa ni bimwe mu bikoresho by'ubwirinzi wakambara igihe cyose wumva uri ahantu hatizewe, cyane cyane wumva ko ushobora kuhandurira indwara zituruka mu buhumekero, hari udukoko twinshi tuba turi mu mwuka twaguteza indwara.

Inzu y'ibitaro yakorewe cyangwa se yubakiwe abarwayi, by'umwihariko ababyeyi bagiye kwibaruka kugira ngo babashe kubungabunga ubuzima bw'umwana n'umubyeyi.

Umumama ateruye akana kiwe, avuye kugasuzumisha kwa muganga, barebe ko nta kibazo kaba gafite, kugira ngo ubuzima bw'umwana bukomeze kugenda neza.

Batonze umurongo ari benshi, baje gusaba serivisi kwa muganga, abafite ikibazo cy'ubumuga baciye mu nzira yabo ya bugufi, kugira ngo babone serivisi bitabagoye.

Inzu y'ibitaro abarwayi bazamo baje kwivuza indwara yitwa Kanseri. Benshi bayizaho kugira ngo barebe ko iminsi yakwicuma, ubuzima bugakomeza n'ubwo biba bigoye kuyikira.

Umuganga w'umama, arikuvura umumama uryamye ku gatanda bisa nkaho arwaye cyane kuko muganga ari kumwitaho, umurwayi ntago ari kunyeganyega.

Icyumba kinini cyane benshi baza gukoreramo siporo bagorora umubiri, bibafasha kugabanya ibibazo byinshi byo mu mutwe, abenshi baba bagize mu gihe bari mu kazi bikabatera gutekereza cyane.

Mu nzu y'ibitaro aha ni mu cyumba cy'abarwayi, baruhukira mu gihe muganga aje kubapima abasuzuma areba uko bahagaze.

Inzira y'abanyamaguru harimo, ururabo ruri, mu gacuma karwo, kugira ngo bigaragare neza, kandi bifasha kongera umwuka wo guhumeka.

Ni akabati kabikwamo ibikoresho bambara ku maso, benshi bita ngo amadarubindi, harimo ubwoko bugiye butandukanye bitewe n'ingano y'amaso y'umuntu.

Icyumba rusange cy'abarwayi baza kwivurizamo bafite indwara yandurira mu mwuka cyangwa se mutundi tunyangingo n'amatembabuzi, abaganga bambaye imyenda yikwije kugira ngo batandura.

Abaganga bicaye bamwe bari kureba ko umurwayi bapimye ahagaze bari kumushakira ibisubizo biturutse ku maraso bamufashe mu mubiri.

Icyumba cy'abarwayi barwaye amaso baza mu isuzuma kugira ngo barebe uko amaso ahagaze bityo babashe kureba neza.

Umuganga yambaye udufungantoki benshi bavuga ngo arimo aratera urushinge umurwayi wicaye ku ntebe, bari kumutera ku kaboko.

Hirya no hino ku Isi, abantu benshi bakenera serivisi zo kwifuza. Biba byiza iyo begerejwe ibitaro byubatse neza, kandi bibafasha.

Inzu y'icyumba kinini, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye by'ikoranabuhanga, aho abantu bahurira baje kuruhuka, gukora siporo kugira ngo umubiri wabo ukore neza, ubuzima bumere neza.

Mu nyubako ni cyumba harimo imashini zigezweho zikoresha umuriro w'amashanyarazi ni mu bitaro aho umuganga yicara ari gusuzuma umurwayi.

Imashini zisuzuma abarwayi kwa muganga, ziteretse ahantu hamwe kumeza y'icyuma hafi yidirishya kugira ngo zigaragarire umuntu azibone.

Umugabo yicaye munsi y'igiti, yambaye ishati isa ubururu, ipantaro isa umukara, ari kureba aruhuka yumva akayaga.

Ikigo Nderabuzima cya Gishweru, kiri bimwe mu bigo Nderabuzima bifasha abaturage bo mu Murenge wa Gishweru gufatwa neza, kwirinda indwara ndetse no kwivuza ku gihe, mu gihe bahuye n'ikibazo.

Umuganga yambaye imyenda y'ubururu ari gutambuka mu bitaro agenda agana aho abandi baganga bagenzi be baherereye, ari gukora akazi ke neza uko bigaragara basa neza baraberewe.

Inyubako yubatse neza bigaragara ko ari mu bitaro, hariho ibishushanyo, haratatse, hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, hameze neza, umuntu yahafatira serivise yo kwivuza.

Igitanda gishashwe mu bisaso bisa icyatsi, aho umurwayi abasha kuruhukira mu gihe afite ikibazo cy'indwara runaka arwaye, hasa neza umurwayi wese nta kibazo yagira mu gihe aruhukiye.

Ni uburyo bwinshi umuntu ashobora kugorora umubiri we, mu gihe ibitugu byiwe byaba byarahinamye, izi ni inzira wakoresha ugorora umubiri wawe, kugira ngo wongere umere neza.

Umusore yicaye hasi afite agacupa k'amazi mu kiganza cyiwe ari kuyanywa agenda asomaho gake gake, amaze gukora siporo ari kuruhuka kugira ngo umubiri we umere neza.

Umugabo ari gukora siporo ngororamubiri, ageze mu zabukuru gusa ntibimubuza gukora siporo mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo agire ubuzima bwiza.

Ibikoresho by'ibanze mu buvuzi buri muntu wese yagakwiye kuba afite, arabukoresha mu gihe akomeretse, cyangwa agize ikindi kibazo cyose, mu gihe ategereje kujya kwivuza.

Icyumba kinini cyane cyahariwe gukorerwamo siporo, kirimo ibikoresho byifashishwa muri siporo by'ikoranabuhanga abantu bakoresha mu gihe bari gukora iyo siporo.

Gukora siporo ni byiza mu buzima bwacu ariko dukwiye kujya twibuka ko kunywa amazi ugakora siporo bituma ubuzima bwawe burushaho kuba bwiza.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, abantu benshi bifashisha kugira ngo bagarure ubuzima bwiza, abenshi bagikoresha kugira ngo inda igabanuke, ibinure bibe bikeya, bamere neza.

Bamwe baziho nk'ikigo gishinzwe ubwirinzi cyangwa se kibungabunga ubuzima bwa muntu, bagenda bafasha abantu benshi hirya no hino ku isi, benshi bazi mu ndimi z'amahanga nka kuruwaruje.

Icupa ry'amazi risa ubururu rifashwe mu kiganza cy'umuntu w'umwana, aryerekeje hejuru mu bicu kugira akazuba karigereho.

Ipamba ni bimwe mu bintu abantu bakoresha bari kwipfuka mu gihe bakomeretse bakazengurutsa ahantu bafite ikibazo, kugirango babashe kugenda neza ibintu bigende neza.

Siporo ngororamubiri iba byiza mu bintu bidufasha mu buzima bwa buri munsi cyane cyane nyuma yo gukora akazi uri kuruhuka biba byiza iyo uyikoze.

Ni ibikoresho bigiye bitandukanye by'ubuvuzi n'ubwirinzi mu gihe umuntu agize ikibazo ari gukora siporo iyo ariyo yose. Iyi ni imiti yakifashisha yivura.

Ni byiza cyane iyo ukora siporo ukaba ufata bimwe mu bintu nk'amagi, ukanywa amazi menshi, ukarya inyama, ugafata imbuto, ukajya unywa ibintu bikungahaye mu isukari biragufasha cyane.

Urubyiruko rwinshi ruvanzemo rwashesha akanguhe bitabiriye siporo bari mu kibuga bari kugenda bakora siporo bari kugendana hari umuntu uri kubayobora.

Ni byiza kwegera umuganga bakakumasa, kugira ngo umubiri wawe usubire ku murongo, cyane cyane biba byiza iyo ugiye gukora masaje, uvuye muri siporo, bikurinda amavunane.

Inzu ifite icyumba kinini abantu baza gukoreramo siporo, harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, abantu bifashisha iyo bari gukora iyo siporo mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Siporo ngaruka kwezi, uru ni urubuga abanyarwanda benshi bahuriraho kugira ngo baze hamwe bakorere siporo hamwe, babashe kumenyana, banarebe uko ubuzima buhagaze.

Abagabo babiri, umwe afite umupira mu ntoki undi afite akagare agenderaho afite ikibazo mu maguru ntago ashobora kugenda neza.

Amazi ni ikintu cy'ingirakamaro ku buzima bwacu, biba byiza iyo tuyabungabunze tukayitaho, tukamenya ko kunywa amazi meza asukuye ari twe bifitiye akamaro.

Umusore ari kunywa amazi yabitse mu icupa, izuba ryabaye ryinshi inyota iriyongera yitwaje amazi ari kugenda afata kugira ngo icyaka kitaba cyinshi.

Kwita ku mazi tuywa ni isomo rya buri muntu agomba kwiga iyo unyweye amazi meza bituma umubiri wawe ukora neza, bikurinda indwara nyinshi harimo nk'impyiko, umuvuduko w'amaraso, umutima n'izindi nka zo, iyo unyweye amazi meza bigufasha kubaho neza kandi bikakongerera iminsi yawe yo kubaho.

Umurwayi yicaye ku gitanda kwa muganga bari kumupfuka kukaguru bisa nk'aho yakomeretse yagize ikibazo kugatsinsino kiwe bari kumushyiraho igipfuko.

Nyuma yo gukora siporo nyinshi cyane, ku izuba ridakabije, umwana uri mu kigero cy'imyaka icyenda na cumi nine ari kunywa amazi.

Amashu, imizabibu, karoti, pome, imwe mu mbuto ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza, cyane cyane iyo ukora siporo za buri munsi. Bigufasha kwirinda indwara nyinshi, ubuzima bwawe bukamera neza.

Umugabo ari kunywa amazi yumva indirimbo mu matwi ye amaze gukora siporo ari kuruhuka kubera ko arananiwe bihagije.

Ni byiza gukora siporo gusa ukanywa amazi menshi, ugafata imbuto kugira ngo umubiri wawe ubashe kumera neza kandi ukomeze kugira imbaraga.

Umugabo yari ari muri siporo yirukanka n'amaguru, agira ikibazo mu ivi bimutera guhagarara kugira ngo abanze amenye ikibazo afite.

Ibinini, inshinge, ni bimwe mu bikoresho abaganga bakoresha, igihe bagiye kuvura abakinnyi bahuye n'ikibazo cyo gukomereka cyangwa n'ibindi bibazo bitandukanye.

Iyi ni imyitozo icumi wakora kugira ngo umubiri wawe umere neza, uruhure mu mutwe kandi ingingo zawe zose zigakora neza.

Umusore ufite ikibazo ku nkokora yiwe yashyizeho ishashi ikonje kugirango ububabare bugabanuke bamuvure ntakibazo arimva mu mubiri.

Biba byiza nyuma yo gukora siporo iyo ariyo yose, ukigorora umubiri, ukarambura ibice bigiye bitandukanye by'umubiri, bigufasha kuruhuka neza kandi bikakurinda amavunane nyuma yo gukora siporo yawe.

Igikapu kirimo imiti igiye itandukanye harimo n'umukasi ugenda ukata ibifuniko by'imiti bakoresha iyo umuntu akomeretse ari gukora siporo.

Ni igitanda usanga kwa muganga, umurwayi agenda akaryamaho, kugira ngo babashe kureba ikibazo afite, cyane cyane akunda kwicaraho iyo bagiye kumuvura indwara zo mu kanwa.

Umugabo ahagaze hejuru, undi ari kumuhereza bisa nk'aho bari kubaka ibitaro, amarembo yabyo niyo bagezeho, bari kurangiza, undi yambaye agapfukamunwa, ari kubareberera.

Abagabo bafite ibikoresho by'ibanze kugira ngo babashe kuvura umuntu uragira ikibazo mu gihe ari gukina cyangwa se bagiye ahantu mu bintu bisaba imbaraga.

Ishashi bakonjesheje irimo urubura, ni bimwe mu bintu bifasha umubiri mu kwihanganira uburibwe mu gihe Ubaye wahuye n'ikibazo cyo gukomereka.

Igihingwa cy'umuravumba hirya no hino mu Rwanda gikunda gukoreshwa kugira ngo abantu bivure indwara y'ibicurane.

Isoko mpuzamahanga ry'imiti ya gakondo hirya no hino ku isi hakoresha itukwa mu bihingwa abantu bikorera itata ituruka mu ruganda.

Imeza iteguyeho amakoma ariho imwe mu miti gakondo, bagenda bakoresha bavura umuntu ikibazo icyo ari cyo cyose yaba afite.

Abagabo harimo n'abamama, bahagaze mu murima, barishimye bambaye udupira tw'icyatsi dusa, bari guseka, baje kureba uko umusaruro wabo umeze.

Imiti myinshi bakoresha bihanaguza intoki, uburyo bwo kwica udukoko, tugaragara ku mubiri, imyinshi muri yo iva mu bimera abantu bahinga.

Hirya no hino ku isi abenshi bakunda gukoresha imiti gakondo, aho twavuga nk'ibimera bimwe na bimwe bihingwa n'abantu, bakabikoresha nk'imiti bivura mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibyaro byinshi ni byo usangamo imiti gakondo kuko baba bakunda guhinga, akenshi usanga bamwe mu bahinzi barahisemo guhinga iyi miti gakondo.

Imiti igiye itandukanye, imyinshi muri yo, iva mu bimera bihingwa. Iyi miti yifashishwa mu kurinda uruhu, uruhu rwawe rukamera neza, ukagira umubiri utoshye.

Hirya no hino ku isi bakunda gukoresha imiti gakondo, ndavuga bimwe mu bimera abaturage bihingira mu mirima yabo bakabikoresha bivura indwara.

Ibihingwa abantu bakoresha bivura kubera ko usanga ubuvuzi bugezweho buhenze kandi kububona bisaba ibintu bihambaye, bakoresha ibihingwa byabo kubera ko ari byo biborohera.

Bamwe mu bahinzi bahisemo guhinga imiti ya gakondo kuko basanze biri bumwe mu bintu bibafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ni uturabo tuva ku bihingwa abantu bakoresha bari kwivura, bigaragara ko dukunda kuva mu mijyi igiye itandukanye y'ibyaro.

Ibihingwa abantu bakoresha bivura indwara zitandukanye kubera ko imiti usanga ihenze cyangwa se ahantu bayikura ari kure cyane bakifashisha iyo bahinga.

Hirya no hino ku Isi imiti abantu bakoresha usanga iva mu bimera baba bahinze, igufasha kugira ngo uruhu rwawe rumere neza ntugire ikibazo cyaba igiturutse ku zuba cyangwa ikindi icyo ari cyo cyose.